Iparato isa n'umweru iriho ibiti bine twita imishito itunzeho inyama zisa neza ikindi kandi bazisize ibirungo bigiye bitandukanye ziratukura cyane, ikindi kandi inyama ziba mu mafunguro abantu bakunda cyane.

Ahantu twita muri bare, ikindi kandi imeze neza, kuko bahitaho, ikindi kandi hari inzoga ziri mu birarahure, ikindi kandi ziteretse ku meza, kuko ziranyobwa, ikindi kandi zirakundwa, ikindi kandi haza abantu bagiye batandukanye.

Igiti twita umushito gishinzeho inyama isa neza, ikindi kandi isize ibirungo bigiye bitandukanye, ikindi kandi inyama barazigura kuko ziraribwa. Ikindi kandi ziraryoha.

Inzu yubatswe ku buryo bugezweho, ni inzu twita etage ikindi kandi ikorerwamo imirimo igiye itandukanye, ikindi kandi imbere y'iyo nzu hari umucuruzi ucuruza amayinite, indi hari n'abantu bagiye batandukanye harimo imodoka ziri kugenda mu muhanda kuko imodoka ni ingenzi ku bantu kuko bazigendamo bagiye mu mirimo itandukanye.

Iduka ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo inkweto, imyenda, ibikapu, ndetse n'imikandara. Ikindi kandi biragurwa kuko barabyambara, ikindi kandi ibikapu babikorana ingendo zigiye zitandukanye.

Umuhanda umeze neza, ukoresheje amabuye twita amapave, ikindi kandi unyuramo abantu benshi, bagiye batandukanye, ikindi kandi hanyuramo imodoka, amagare, amamoto, ikindi kandi bigendamo neza.

Inzu yubatswe ku buryo bugezweho, ikindi kandi isakaje amabati asa n'ubururu, isize amarangi asa n'umukara n'ayandi asa n'umweru, imbere y'iyo nzu hateye ibiti bisa neza, ikindi kandi ikorerwamo imirimo igiye itandukanye.

Inzu yubatswe ku buryo bugezweho, ikindi kandi isize amarangi asa n'umukara, ayandi asa n'umuhungu, ayandi asa n'ubururu, imbere y'iyo nzu hari abantu bambaye imyenda igiye itandukanye, ikindi kandi hari n'umutaka, harimo igare, iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye.

Inzu yubatsweho ku buryo bugezweho, ikindi kandi isize amarangi asa n'umweru, andi asa n'ubururu, ikindi kandi ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, ikindi kandi bacururizamo inyama, kuko inyama ziraryoha cyane.

Inzu irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo indagara, umuceri, akawunga, amasabune, sorwatomu, mayonezi, amavuta. Ikindi kandi biragurwa kuko biraryoha.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho ikindi kandi isakaje amabati asa n'umutuku, iruhande rw'ayo mazu hari abamotari baparitse ikindi kandi hari n'abantu bambaye imyenda igiye itandukanye, ikindi kandi iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye.

Inzu yubatswe ku buryo bugezweho, ikindi kandi isize amarangi asa n'umutu, kandi asa n'ubururu, ikindi kandi hacururizwagamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, inkweto, amashu, inyanya, ibitunguru, ikindi kandi imbere yiyo nzu haparitse igare, ikindi kandi amashu aragurwa kuko araryoha.

Inzu yubakishije amakaro isizi amarangi asa n'umuhondo. Ikindi kandi iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Imbere y'iyo nzu haparitse amamoto, ikindi kandi hari n'umuntu uri kugenda, ikindi hari n'ahantu babika amagaze.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, ikindi kandi isize amarangi asa n'umweru, andi asa n'umuhondo, ikindi kandi bacururizamo amagaze y'imiceri, ibishyimbo kuko barabigurisha, ikindi kandi hicaye n'abantu bari gucuruza, imbere y'iyo nzu hahagaze umumotari utwara abagenzi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati asa n'umutuku, ikindi kandi isize amarangi asa n'icyatsi, imbere y'iyo nzu hari icyapa, ikindi kandi hakorerwamo imirimo igiye itandukanye.

Inzu yubatswe ku buryo bugezweho ikindi kandi isize amarangi asa n'umuhondo, andi asa n'umweru, andi asa n'umukara. Ikindi kandi ikorerwamo n'ibintu bigiye bitandukanye. Imbere y'iyo nzu hateye ibirabyo kuko bisa neza ikindi kandi byitabwaho.

inzu irimo ibicuruzwa bitandukanye, ikindi kandi harimo ji twita sana, ikindi kandi harimo indi twita fanta, ikindi kandi biragurwa kuko biraryoha.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, kandi harimo amasogisi agiye afite amabara agiye atandukanye, harimo imikandara, harimo ingofero, ikindi kandi harimo n'imyenda, ikindi kandi barayigura kuko bayambara.

Inzu yubatswe ku buryo bugezweho, ikindi kandi isakaje amabati asa n'umukara, ikindi kandi bigaragara ko ari isoko, hacururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo imyembe, amaronji, harimo n'iminzani, harimo n'urundi rubuto twita wotarmeroni.